Iki ngiki ni icyapa cyerekana ahantu batanga ubwishingizi bwo kwivuza, uko bigara harasa neza cyane, hakaba hari n'amarange y'umutuku ndetse n'umweru, asa neza.

Iki ngiki ni ikigo gishinzwe ubwishingizi ku baturarwanda. Kikaba kimaze imyaka myinshi cyane gikorera mu gihugu, gitanga ubufasha ku bakigana bose kandi bakahava bishimiye ubufasha bahawe.

Iyi ngiyi ni ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi, aho bakubwira ko ugomba gukina witonze ukarwanya ibijyanye n'impanuka cyangwa se kwangiza mu gihe utwaye imodoka.

Aha ngaha ni ikigo cyerekana ko gitanga ubwishingizi bw'ibinyabiziga cyane cyane, kuko aha barakwereka urugero rw'ifoto y'imodoka yahuye n'ibibazo by'impanuka, bakakwereka yuko bashobora kugufasha gukemura ibyo bibazo mu gihe wahuye n'iyo mpanuka.

Uyu nguyu ni umugabo uhetse umwana we, mu by'ukuri arimo kumwereka urukundo. Urukundo rw'umubyeyi rugomba kugera ku mwana kugira ngo abashe gukura neza yisanzuye, ibi bikaba ari ibintu byiza cyane.

Aha ngaha baragaraza ko umuntu atari ngombwa ko yibutswa kugura ubwishingizi mu gihe yamaze kugera mu bitaro kwa muganga ahubwo ugomba kubutanga mbere y'uko uhagera.

Kino cyapa kirerekana abantu batanga ubwishingizi ku ma modoka maremare yitwa amakamyo atwara ibicuruzwa n'ibindi bitandukanye, mu buzima bwa buri munsi akunda kwambukiranya imipaka.

Aha barakwereka ubwishingizi. Ubu ni ubwishingizi bukorera mu Rwanda bukaba bumaze imyaka myinshi cyane. Mu by'ukuri bakaba bakora neza nta na kimwe wababurana mu by'ukuri.

Iri ngiri n'ikigo cyerekana ko ari ukwamamaza ku bijyanye n'ubwisungane ndetse n'ubwishingizi, bakaba bagufasha kubona inguzanyo ndetse kukwishingira mu gihe wahuye n'ibibazo.

Aha ngaha ni ikigo na cyo gishinzwe ibijyanye no kwishyura amafaranga ndetse no kuyabikuza cyangwa se kuyabitsa muri bino bigo by'imari bigiye bitandukanye bishinzwe kubitsa no kubikuza amafaranga y'abaturage.

Uru ni urubuga rwo ku mbuga nkoranyambaga kifashishwa n'ikigo cy'imari kigenzura amafaranga y'abaturage bayabitsa cyangwa se bakayabikuza bifashishije mudasobwa zabo.

Uko bigaragara ni ifoto yerekana uburyo amafaranga yinjiye n'uburyo yasohotsemo, hanyuma bakanakwereka amafaranga usigaranye bigaragaza ko umuntu asigaranye amafaranga magana atandatu.

Uru nguru ni urubuga rwifashishwa na kimwe mu bigo bishinzwe kubika no kubikuza amafaranga y'abaturage , aho bakwereka ko ushobora kugira ibyo wikorera cyane bitagusabyekugira Aho ujya ugikorera wifashishije mudasobwa ndetse na murandasi.

Urubuga rukoreshwa n'ikigo gishinzwe kubika amafaranga no kuyabikuza y'abaturage, ibigaragara hano bari kwerekana ko ushobora kwikorera ibyo bintu byose ukoresheje mudasobwa cyangwa se itumanaho.

Urupapuro rwerekana ko, ushobora kwikorera serivisi zawe ku bijyanye n'ikoranabuhanga, bitagusabye kujya aho batangira ubwo bufasha.

Iringiri ni iguriro ry'imyenda y'abagore n'abakobwa, iyi myenda muby'ukuri irasa neza iteye ubwuzu kuyireba iragaragara nkaho ihenze cyane kandi ni mwiza cyane pe.

Aha ngaha ni mu iduka, aho bacuruza imyenda itandukanye y'abagore, n'utundi dukoresho abagore bifashisha mu ngendo cyangwa mu buzima bwabo bwa buri munsi. Bigaragara ko byishimiwe cyane kandi birasa neza.

Uyu nguyu ni umurimbo wo ku maboko bizwi nk'udukomo, cyangwa se udusaro. Utu ngutu dukorwa n'abadamu cyane cyane mu bigo bitandukanye aho baba barishyize hamwe.

Aha ngaha ni mu isoko, isoko ryiza cyane aho harimo imyenda myiza, itandukanye y'abagore n'abakobwa. Imyenda ikaba igura ibiciro bitari hejuru cyane.

Aha hari iduka rimwe ricuruza imyambaro y'abagore, ibitenge bitandukanye, aho bifite ubwoko bugiye butandukanye, bikaba bigurwa amafaranga atari menshi cyane ariko bikaba ari byiza cyane.

Nk'uko mubibona iyi ngiyi ni imyenda, imyenda mishyashya ni amashati y'amaboko magufi afite imifuka mu gatuza bikanagaragara ko ari mu mabara atandukanye.

Aha ngaha ni ahantu bagurira ibintu bigiye bitandukanye, by'imitako yo mu nzu. Hano hantu harasa neza cyane mu buryo bugaragara, ntago hateye isoni kuhagurira, harasa neza kandi cyane.

Ahangaha n'ahantugacuruza imyenda, imyenda myiza cyane ku buryo ugenda ukayigura ugashyira abana bahawe, washyira umugore wawe cyangwa se nawe ukaguramo imyenda myiza yo kwambara.

Ubu uyu nguyu ni umuntu ucuruza imyenda. Imyenda myiza cyane ,harimo imyenda yo kwifubika n'imipira ndetse n'amapantaro bikaba bikoze mu buryo bwiza cyane pe ! kandi bikaba binasa neza.

Aha ngaha uko bigaragara ni ku mazu aherereye ku muhanda, aho hakorerwa ubucuruzi butandukanye, aho abantu bagura ibyo kurya, ibyo kwambara ndetse n'ibindi bikoresho byo mu rugo mu by'ukuri ni heza.

Abangaba ni abagabo batatu bafite urufunguzo rw'imodoka, aho bigaragara ko umuntu yaguze imodoka aka ayihawe, cyangwa se akaba yayitsindiye mu bihembo bihe bitandukanye. Ibi bintu ni byiza.

Iyi ngiyi ni modokadoka nziza cyane yifashishwa mu gutwara ibikoresho bitandukanye cyane cyane mu gihe harimo harakorwa ibikorwa by'ubwubatsi mu migi itandukanye cyane cyane mu mujyi wa Kigali ndetse no mu y'indi mijyi yungirije.

Ni ahantu bagurishiriza imodoka hano mu mujyi wa Kigali, zikaba ari imodoka zituruka mu bihugu bitandukanye, zikaba ari imodoka nshyashya, zisa neza mu mabara y'umweru, mu mabara y'umukara, ndetse n'ayandi mabara atandukanye.

Ahangaha ni abantu bacuruza imodoka bakanazikodesha, ndetse bakanazikora mu gihe zahuye n'ibibazo byo gupfa bigaragara nk'aho bazikora mu buryo bwa kinyamwuga.

Ahangaha nk'uko mubibona umugabo we yazanye n'umwana we mutoya yaje kugura imodoka, yaje kugura imodoka cyangwa se uko bigaragara akaba ibice byunganira imodoka ye ahantu yagiye igira ikibazo.

Iki ngiki ni ikigo gishinzwe kugurisha imodoka, aho ugenda bakaguha imodoka, ukazayishyura mu byiciro, icyo bita gake gake cyangwa se make make make .Naho ubndi aba bagabo bakora neza pe.

Aha ngaha biragaragara ko ari ukugurisha no kugura imodoka cyangwa se ukaba wagura ibikoresho by'imodoka kubera ko bigomba gusimbura ibyashaje ku modoka yawe.

Ikingiki ni ikigo gishinzwe kugurisha imodoka mu rwanda bikaba bigaragara ko bafite imodoka nziza kandi nyinshi zikaba zinagaragara ko ari imodoka nshyashya zisa neza.

Iyi ngiyi ni imodoka nziza cyane aho bikwereka ko iherereye mu mujyi wa Kigali ishaka amafaranga yo kugurwa ni nziza iragaragara neza mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, ni nziza cyane pe.

Iyi n'imodoka ituruka mu gihugu cyo hanze y'u Rwanda, ikaba irimo irashaka kugurishwamo miliyoni cumi n'eshanu z'amanyarwanda, iyi modoka ni nziza.

Imodoka nziza cyane zigaragara mu mabara y'umweru ndetse n'umukara. Uko bigaragara bariya bagabo barimo barazicuruza, bamwe bakaza bakazigura ku mafaranga atari menshi mu by'ukuri.

Aha ngaha ni ahantu batangira amafaranga harimo n'ibikoresho bibara amafaranga aho abantu bayabitsa bayakenera bagasubira kuyabikuza bakayahabwa bakayacyura.

Aya ngaya ni amafaranga yo mu Rwanda, igiceri cya makumyabiri n'ikindi giceri cy'amafaranga atanu, mu by'ukuri ayo mafaranga yarabuze kugira ngo uyabone biba ari ingorabahizi.

Nkuko mubibona agan mu kigo gishinzwe imari n'amafaranga aho uwo mubyeyi yari yagiye kubikuza amafaranga ye bakaba bayamuhaye mu buryo butandukanye afite intote z'ibyiciro bitandukanye.

Aya ngaya ni amafaranga, aya mafaranga mu byukuri ni menshi, ni menshi cyane aho bakwereka umuntu ari kuyabara agiye apanze mu buryo buteye ubwuzu kuyareba.

Iki ni icyuma gikoresha ikoranabuhanga aho ushobora kuza, ukandikamo imibare runaka, ukandikamo amafaranga ushaka, ahasigaye amafaranga agasohoka.

Abantu bashinzwe gutwara amafaranga, bakaba bashinzwe no gukora umutekano w'ayo mafaranga, mu buryo bwo kugira ngo hatagira abagizi ba nabi baza kuyavogera, bayatwara mu bice bitandukanye.

Ibiryo bigaragara nk'amandazi biteretse ku isahani y'umweru aho bantu bitegura kuza gufata rino funguro, mu by'ukuri agura amafaranga atari menshi.

Wa musore we, ko mbona urimo urategura ibijyanye n'amata waba ufite inka? Ko nanjye nifuza ko nazajya norora inka, nkagerageza kugemurira abantu amata bakanywa, bakagira ubuzima bwiza.

Aha ngaha ni hamwe mu ho bagurira ibyo kurya ndetse amata y'inyange. Amata meza akoze neza cyane mu buryo butongewemo ibindi binyabutabire kandi aryoshye cyane.

Ahangaha ni ahantu bacuruza amata akozwe mu buryo bwo mu nganda a ma a menshi hakunze guhabwa abana nryo bwo kohereza imikurire myiza, amata aba aryoshye kandi ni meza cyane.

Aha ngaha ni mu iguriro ry'amata meza cyane y'inyange akorerwa mu ruganda rwa hano rw'iwacu mu mujyi wa Kigali, aya mata nta bindi binyabutabire bongeramo aba ari amata y'umwimerere ya kamwe mu nka z'inyarwanda.

Aha ngaha ni mu iduka nk'uko bigaragara, uyu nguyu ni umuntu wari uje guhaha ategereje ko bamwereka bimwe mu byo bafite bacuruza, ahasigaye akabahahira.

Ni ikigo cyerekana uburyo umuntu ashobora kwishyura amafaranga akoresheje ikoranabuhanga, aho yifashisha mudasobwa cyangwa se akabikora hifashishijwe murandasi.

Uru nguru ni urubuga rwo kuri murandasi rukoreshwa abantu bishyura amafaranga, ari ibyo baguze cyangwa se ari ababishyuye amafaranga yabo bakoreye mu mirimo yabo ya buri munsi.

Ubungubu ni uburyo bugezweho mu ikoranabuhanga ushobora kubwifashisha urimo urishyura, ushobora kubukoresha uri kwishyura umuriro, kwishyura amazi, kwishyura inzu, kwishyura imigenderanire mu gihe wateze imodoka cyangwa se wateze ubwato ndetse n'indege.

Ubu ngubu ni uburyo bwiza cyane bukoreshwa mu kwishyura, mu kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga kubera ko aribyo bigezweho kugendana amafaranga mu nzira ntabwo bikigezweho.

Dore uko bigaragara yambaye ishati nziza cyane ifite amabara atandukanye akaba yambaye n'umupira w'umweru mu imbere, akaba arimo aramamaza atwereka ukuntu dushobora gukoresha imbuga nkoranyambaga nko kwishyura ibyo twaguze.

Uburyo bwiza bushyashya bugezweho bwo kwishyurira amafaranga ku mbuga nkoranyambaga ibizwi nka murandasi, ku bigaragara umuntu umwe yohereza amafaranga ku wundi undi akayakira binyuze ku itumanaho rye.

Ahangaha ni uburyo bwerekana kwishyura ibyo umuntu yakoresheje hakoreshejwe ikoranabuhanga. Ushobora kwishyura hakoreshejwe murandasi cyangwa se n'ikoranabuhanga kuri mudasobwa.

Aya ngaya ni amafaranga yo mu bwoko butandukanye, harimo amafaranga y'amanyarwanda, hakabamo n'amafaranga y'amanyamahanga ntarimo ndasobanukirwa neza, ay'amanyarwanda ndi kubonamo ni amafaranga y'ibihumbi bibiri n'inoti ibihumbi bitanu.

Nkuko bigaragara hano barerekana ko umuntu agomba kujya yishyura yifashishije ikoranabuhanga, hatabaye kugira ngo umuntu yishyure mu mafaranga mu ntoki, biragaragara neza.

Nguyu ni umugore ukora mu kigo gishinzwe imari n'amafaranga. Mu byukuri ari kwamamaza, akaba agiye gutanga n'impano, ku bantu bitwaye neza muri kino kigo kibika kikanabikuriza amafaranga abaturage.

Uko bigaragara ni urupapuro rwerekana uburyo basora, rukaba rwarakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, mu by'ukuri ruragaragara neza cyane.

Uru nguru ni urupapuro rwerekana uburyo imisoro itangwamo, rwatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu buryo bwo kubaka igihugu cy'u Rwanda, igihugu cyatubyaye.

Uru nguru ni urupapuro rwerekana ibijyanye no gusora. Runo rupapuro ruba rwarerekanwe cyangwa se rwarakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Berekana uburyo abaturage bagomba gutangamo imisoro.

Urunguru rwerekana ibijyanye n'ubuku bw'igihugu, aho berekana ibyagiye bikorwa mu myaka yashize ya bibiri na makumyabiri nagatatu uko ubukungu bwagiye buzamuka ndetse bunamanuka.

Iki ngiki ni igipapuro cyerekana ko uburyo imisoro itangwamo kandi urupapuro rukaba rwerekana ko rwasohowe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, cyerekana uburyo abaturage bagomba gusora.

Ni uruhushya rwerekana ko abantu bakora ibijyanye n'ubushabitsi bemerewe gukora kandi bakaba bemerewe kwiyandikisha kugira ngo bakore ubucuruzi bwabo mu buryo bwisanzuye.

Uru nguru ni urupapuro rwerekana ibintu bijyanye n'imisoro. Uru rupapuro rukaba rukorwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Rukanerekana uburyo abaturage bagomba gusora.

Uru nguru ni urupapuro rwa kimwe mu bigo bishinzwe imari, ndetse no kubika no kubigura amafaranga y'abaturage. Bikaba byerekana uburyo amafaranga aba yaragiye atangwamo asohoka. Ndetse n'uburyo aba yagiye yinjira.

Uru ni urupapuro rwasohowe n'abakorera mu bijyanye no gusoresha ibicuruzwa n'ubutaka ndetse n'ibindi bikorwa bikorerwa mu gihugu bitandukanye, kirerekana uburyo imisoro igenda.

Uru ni urupapuro rwerekana uko umuntu agomba gutanga imisoro mubyukuri urupapuro rwatanzwe n'ikigo cy igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu buryo bwo kwereka abaturage uburyo bagomba gusora bishimye.

Ubungubu mu by'ukuri ni urupapuro rugaragara ko arirw ikigo cy igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro rukaba rwerekana uburyo umuntu ashobora gutanga imisoro abinyujije kuri murandasi bigaragara neza cyane..

Urungu ni urupapuro rwerekana uburyo bishyuramo imisoro rwatanzwe n'ikigo cy igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, mu rwego rwo guteza igihugu cyacu cy'u Rwanda imbere.

Nkuko mubibona uyu ni umushandiko w'amafaranga menshi cyane atandukanye yo mu gihugu kimwe runaka aho biteguye kuza kuyavunjisha bakabaha ayandi yo mu gihugu bagiyemo.

Ni amafaranga yo mu bwoko bugiye butandukanye, aho bakwereka amafaranga magana atanu, amafaranga magana abiri, amafaranga ijana, amafaranga mirongo itanu, amafaranga makumyabiri, ndetse n'amafaranga icumi.

Aha ngaha ni ahantu hatandukanye uvunjeshiriza amafaranga bitewe n'igiciro amafaranga agize, ukaba uzana amafaranga ufite bakaguha ayandi bitewe n'igihugu wamaze kwinjiramo.

Aha ngaha ni ahantu bavunja amafaranga y'abanyamahanga, aho uzana ayo ufite, bakaguhereza ayandi yo mu kindi gihugu ugiiyemo kugira ngo ubashe kuba wakwishyura ibyo uri buze uzi gukoresha.

Aya ngaya ni amafaranga menshi, aho bigaragara ko abantu bagiye kuguranisha amafaranga mu buryo bwo kugira ngo babashe gutura muri icyo gihugu bagiyemo. Bagashaka amafaranga yo gutanga kugira ngo ibintu bigende neza.

Iri ngiri ni isoko ryerekana uburyo amafaranga y'abanyamahanga ari kugenda avunja mu buryo azamukamo cyangwa se uburyo amanukamo bitewe n'ubukungu bw'ibihugu bitandukanye.

Aya ni amafaranga yifashishwa mu buryo butandukanye, aho bigaragara ko ari inote y'amafaranga icumi aturuka mu kigo gitandukanye cy'ivunja n'ivunjisha.

Aha ngaha ni ahantu herekana uburyo ibiciro by'amafaranga bigeze, bitewe n'izamuka ry'ubukungu, cyangwa se impanuka ry'ubukungu. Bikaba bigaragara ko ari ahantu ushobora gufata amafaranga, mu buryo bwiza cyane.

Ibi ngibi ni urupapuro rwerekana uburyo amafaranga avunjwa akanavunjishwa mu bihugu bigiye bitandukanye, bitewe n'agaciro kayo aho ageze.

Amafaranga yo mu bwoko butandukanye, no mu mibare itandukanye, amafaranga igihumbi, amafaranga magana atanu, amafaranga magana abiri, amafaranga ijana, amafaranga mirongo itanu.

Aha ngaha ni mu biro by'ivunja n'ivunjishwa ku mafaranga atandukanye, aha ngaha ni mu mujyi wa Kigali ahazwi nk'i Nyabugogo, uzana amafaranga ukuye mu kindi gihugu bakaguha mu manyarwanda kugira ngo ubashe kwishyura ibicuruzwa uri bugure mu mujyi wa Kigali.

Abagaba ni abayobozi berekana ko bahembye umuntu amafaranga y'igihembo runaka kubera ko aribyo yakoze neza mu bijyanye n'ivunja n'ivunjishwa mu mafaranga agiye atandukanye.

Aha ngaha ni mu mujyi wa Kigali ahazwi ka Nyabugogo, ahakunze guhurirwa n'abagenzi benshi bajya mu ntara z'igihugu, abandi bakaba bajya mu zindi mbibi z'imipaka bajya mu bindi bihugu.

Ahangaha ni mu cyumba aho abantu bavunjishiriza amafaranga atandukanye, amafaranga y'amanyamahanga mu gihe winjiye mu gihugu cy'abandi kugira ngo ubashe gukoresha amafaranga yo muri icyo gihugu umaze kwinjiramo, ahangaha uzana ayo kuye iwanyu ugatanga muri ibyo biro bakagu yo muri icyo gihugu.

Kino cyapa kiri kwerekana ahantu bakorera ivunjisha ry'amafaranga y'abanyamahanga, mu gihe winjiye mu gihugu bikagusaba kuza gukoresha amafaranga muri iki gihe urimo urahaha.

Aha ngaha ni ahantu mukoresha ibintu bijyanye no kuvunja amafaranga mu gihe umunyamahanga yinjiye mu gihugu kandi agomba gukoresha amafaranga yo muri icyo gihugu yinjiyemo, azana amafaranga yo mu gihugu cye akayatanga bakamuha ayo mu gihugu yinjiyemo.

Ahangaha ni mu kigo gikorerwamo ivunja n'ivunjishwa ry'amafaranga igihe winjiye mu gihugu kimwe uvuye mu kindi, ubara amafaranga wari ufite uyakuye mu gihugu cyawe ukayatanga bakaguha ayo mu gihugu cy'abandi winjiyemo.

Izi ngizi ni intebe zisa neza cyane. Ni intebe wakwicaraho mu gihe uri kurya. Kandi ntizigire ikibazo zigutera, kuko bigaragara ko zikozwe mu biti byiza cyane.

Ahangaha urabona ko kano ari akabati, ariko gakozwe mu buryo bwiza bugezweho. Aho ushobora kugafungura ukamanura hasi, ukongera ukagafunga ukarebesha hejuru, mu by'ukuri ni byiza pe!

Iyi ngiyi ni isaro. Intebe nziza cyane zifunitse mu buryo bwiza buteye ubwuzu, zikaba zigizwe n'utundi dukoresho turi ku ruhande, aho ushobora gutereka ibirahure cyangwa ushobora gutekareka ibindi byose uri kuganiho.

Izi ngizi ni intebe zo muri salo mu by'ukuri ziragaragara neza mu mabara y'ikijuju umukara ndetse n'umweru zikaba zifite n'udutebe twazo ku mpande ndetse n'aho batereka ibyo bafite muri salo byose.

Nk'uko mubibona hano rero, hari intebe, ameza, kandi byiza cyane biri mu mabara meza ateye ubwuzu, birasa neza cyane. Mu byukuri kubigura ntabwo waba uhenzwe. Kuko birasa neza pe.

Iyi ngiyi ni inzu nziza cyane, uko bigaragara ifite amatara asa neza. Gusa nubwo ari nijoro ariko haraboneka neza kuko hari amatara asukuye, inzu iteye amarangi meza n'ibindi byiza cyane.

Aha ngaha nkuko bigaragara ni ahantu heza cyane ho kunywera ikawa, cyangwa se ho gufatira ifunguro ryawe, mbere yo kujya mu kazi, mu gihe cy'ikiruhuko cy'akazi, cyangwa se na nyuma y'akazi, ukaza kuruhuka unywa ikawa ufata n'ibyokurya bitandukanye.

Iyi ngiyi ni inzu mu by'ukuri isa neza, ahantu ho kurara ndetse no gutura mu gihe kitari kirekire cyane, ukaba wahaba ufite ibikoresho byawe byose kandi hakunyuze, ni byiza cyane mu buryo bugaragara.

Aha ngaha ni mu icumbi ryo mu mujyi wa Kigali, aho batanga ibinyobwa n'ibiribwa bitandukanye kandi byiza cyane biri mu mabara agiye atandukanye, gusa bikaba bigaragara nkaho biryoshye cyane.

Ni icumbi rimwe mu macumbi aherereye mu mujyi wa Kigali, biragaragara ko ibi ngibi ari ibinyobwa ndetse n'ibiribwa bituruka ku mbuto, harimo inanasi, imineke ndetse n'imitobe ituruka ku mwembe.

Ahangaha ni ahantu heza ho kuruhukira, ahantu heza ho kurira mu gihe ufite amafaranga kandi ukeneye kugira akantu uhanywa. Ni ahantu heza mu by'ukuri wagenda bakaguha icyo kunywa.

Ni rimwe mu macumbi meza cyane uko bigaragara baba bateguye ibyo kurya, ndetse n'ibyokunywa bisa neza cyane biteye ubwuzu mu by'ukuri kujyayo ni ingenzi.

Iyi ngiyi ni inzu iberamo inama zitandukanye mu buryo butandukanye, bitewe n'abantu bakeneye gukoreramo inama, bungurana ibitekerezo mu buryo butandukanye.

Ni ibikoresho byo mu nzu, aho bakwereka ko bicuruzwa kandi bikaba bimeze neza cyane, bakaba batanga n'ubwishingizi kuri ibyo bikoresho waguze, mu gihe kingana n'umwaka wose.

Ahangaha ni mu biro ahazwi nk'aho batangira ubwishingizi, ubwishingizi butandukanye ubw'amazu, ubw'ibinyabiziga, ubwo gucuruza n'ubundi butandukanye.

Aha ngaha ni ahantu batagira ubwishingizi bugiye butandukanye nta bwishingizi bwo kwa muganga kwivuza bwibinyabiziga ubwishingizi bw'amazu, ubwishingizi mu bucuruzi ndetse n'ubundi butandukanye..

Iki ni ikindi kigo gishinzwe gutanga ubwisungane cyagwa se ubwishingizi, ubwishingizi burimo ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ubwishingizi bw'amazu, ubwishingizi bw'abakozi bawe, ubwishingizi nibindi bintu byinshi bitandukanye.

Iki ni ikigo gishinzwe imari n'igenamigambi, kikaba kigaragaza ko bashobora kuguha inguzanyo yo kugura cyangwa se kwiyubakira inzu yawe yo guturamo itagusabye guhangayika cyane.

N'umugabo uko bigaragara arimo aramamaza, ari kwamamaza ibijyanye no kubona amafaranga yikubye kabiri mu masaha mirongo ine n'umunani.

Ikigo gishinzwe kubika no kubikura amafaranga y'abaturage ndetse no kubaha inguzanyo jyakubwira ko ushobora gufata inguzanyo imeze neza cyane akazayishyira mu gihe runaka.

Bigaragara urunguru n'urupapuro rwerekana imyirondoro y'umuntu ushaka gufata inguzanyo mu kigo cy'imari gishinzwe gutanga inguzanyo no kubika amafaranga y'abaturage by'ukuri bisaba ibintu bitari byinshi cyane.

Mu by'ukuri arimo aramamaza uburyo ushobora gukoresha mudasobwa yawe uri kwishyura ibintu byinshi bitandukanye cyangwa se ukaba wahabwamo inguzanyo mu mafaranga y'amanyarwanda.

Aha ngaha ikigaragara cyo barimo bamamaza igitaramo. Ni igitaramo cy'abahanzi gusa amazina yabo ntabwo aramenyekana cyane, izabera mu mujyi wa Kigali i Remera.

Aha ni mu nzu berekana ibintu bijyanye n'imitako yo mu nzu. Ikaba ikorwa cyane cyane n'abagore cyangwa se igakorwa n'imfungwa ziri mu magereza atandukanye y'igihugu cy'u Rwanda.

Iriringiri ni isoko ricururizwamo n'ababyeyi bacuruzamo imbuto n'imboga n'ibindi bitandukanye byifashishwa murugo umuntu agiye guteka ibya nijoro cyangwa ibya saa sita.

Iringiri ni isoko ry'abagore n'abadamu aho bacuruje ibijyanye n'imbuto bakaba bategereje abaguzi, abaguzi twizere ko baribuze kubafasha mu iterambere ryabo.

Aba ngaba ni abacuruzi batandukanye, bacururiza mu iri soko, rikaba ricuruza ibintu bigiye bitandukanye, harimo ibiribwa ndetse n'ibyo kwambara, abantu babicuruza barasa neza cyane.

Uyu ni umugore ari kugenda mu isoko yikoreye ibicuruzwa bitandukanye, aho yahashye ibyo ashyiriye abana mu rugo.

Izi ngizi ni imbuto ziri mu isoko, bigaragara ko ababyeyi bazicuruje ari benshi. Bikaba bigaragara y'uko zigomba kubinjiriza amafaranga, igihe bazigurishije n'abandi bantu bazikeneye.

Ahangaha ni ahantu mu mujyi wa Kigali hazwi nka Kimironko, aho berekana ko abantu baza bakagura ibikoresho bitandukanye ndetse bakanagenda mu mapikipiki n'ama modokari yabo biguriyemo.

Isoko rimwe mu aherere mu Mujyi wa Kigali, aho berekana abagore benshi bacuruje imboga ndetse n'imbuto, aho abantu baza guhaha ari benshi cyane, igihe bakeneye kujya guteka mu rugo.

Nk'uko bigaraga, iri ngiri ni isoko. Ni isoko rikoreramo abantu batandukanye. Gusa mu buryo bugaragara hasi aho abantu bagendera, bigaragara nk'aho ari ahantu hashaje cyane hakeneye gukorwa.

Aba ni abaturage batandukanye bahuriye mu isoko, barimo baragura banacuruza ibijyanye no kurya, cyane cyane imbuto n'imboga, uko bigaragara abagore ni bo benshi bari muri rino soko.

Iyo ngiyi ni inzu iherereye mu mujyi wa Kigali ahazwi nko mu nkundamahoro. Ahangaha abantu bahacuruza ibintu bitandukanye, ibyo kunywa, ndetse n'ibyokurya bakabigura badahenzwe. Ni ahantu heza cyane, kandi hashimishije kuhagurira.

Aha ni ku isosiyete y'itumanaho aho batanga serivisi zijyanye no guhamagara no gukoresha murandasi mu buryo bw'itumanaho, ikabi ikorera mu gihugu cy'u Rwanda no mu bihugu bitandukanye bigize umugabane wa Afurika.

Aha ngaha ni ahantu hakorera abashinzwe guhererekanya amafaranga, bigendeye ku kuyanyuza ku matumanaho cyangwa se kuri mudasobwa. Amafaranga ukayabaha, bakayohereza ku muntu ushaka.

Aha ngaha ni mu gihe umuntu yari agiye koherereza undi amafaranga, agafata ifoto mu buryo bwo kumwereka ko amafaranga agiye kuyohereza, asigaje gushyiramo umubare w'ibanga.

Aka ni akazu gatoya gakozwe mu byuma bitandukanye byavuye mu nganda aha ngaha niho batangira serivisi zitandukanye zo gutanga ibikenerwa kugira ngo umuntu akoreshe telefoni.

Aha ngaha rero bigaragara ko ari urubuga rwifashishwa n'abantu baba barimo barahaha ibintu bitandukanye, bakabihaha bikaza kubasanga mu rugo, bataje gukoresha amakuru yabo bajya kubishakisha aho biherereye.

Aha ngaha biragaragara ko ari aho abantu bagurira ibikoresho byabo bitandukanye, bifashishije imbuga nkoranyambaga bitabasabye kuva mu rugo ngo bajyeyo, ukagura igikoresho cyangwa se umwenda washimye, bakawukuzanira mu rugo.

Uyu nguyu ni umupapa utwaye ikinyabiziga akaba cy'ipikipiki akaba ajyanye ibyo bamutumye aho bagomba kbigurira bakaba babiguze mu kigo cyitwa kasha, kasha batanga ibyo kurya.

Aha ngaha nk'uko mubibona ni ahantu bifashisha bagura ibikoresho bitandukanye harimo ibinyabiziga, harimo ibikoresho byo mu nzu bakabigura bifashishije imbuga nkoranyambaga cyangwa se murandasi.

Uyu nguyu ni umuntu utwaye moto, akaba ajyanye n'ibyo kurya bamutumye, akaba abijyana bakamwishyura amafaranga, akongera agasubirayo bakaza kumuha n'ayandi nyuma y'uko agarutse.

Uburyo bugaragara ni ikarita, itwereka uburyo dushobora kugura ibintu bitandukanye cyangwa kwishyura bitandukanye, dukoresheje iyo karita, cyangwa se tukaba twakoresha murandasi, cyangwa ikoranabuhanga.

Aha ngaha nk'uko mubibona uru nguru ni urubuga, ni urubuga rwifashishwa kuri murandasi, igihe ukeneye gutuma ibyo ukeneye byose mu rugo, wandikamo icyo ushaka ko bakuzanira bakakikuzanira mu rugo.

Ahangaha ni ku rubuga nkoranyambaga rwitwa Murukari, mu isoko ryizewe kandi ryiza. Aha ngaha ujyaho kuri runo rubuga bikoresheje murandasi ukagura ibyo ushaka byose bakabikoherereza mu rugo.

Iyi ngiyi ni moto itwaye ibyo bayitumye, akaba abijyanye mu bice bitandukanye, mu mujyi wa Kigali, aho uhamagara ku itumanaho bakakoherereza ibyo waguze byose.

Ikingiki ni icyapa cyerekana bamwe mu bakora ibijyanye no gufasha abantu ibijyanye no kuri murandasine no kubahereza ibikorwa byo kwamamaza ba bashushanyiriza ku myenda kubashushanyiriza n'ukudi bitandukanye.

Ahagaha ni mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Kacyiru mu kagari ka Kanserenge uyu muntu azanye ibyoku kurya bari bamutumye abizanye ku ipikipiki baramuhemba neza.

iyi ni inzu nziza cyane mu buryo bugaragara, iherereye mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda, igaragara ko ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atanu na mirongo itanu by'amanyarwanda ku kwezi, irasa neza cyane.

Ahangaha hari inzu ikodeshwa nziza cyane mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Kacyiru, iyi nzu ikodeshwa amafaranga miliyoni imwe n'ibihumbi magana atanu by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi.

Iyi ngiyi ni inzu iherereye mu mujyi wa Kigali ahazwi nk'i R,emera iyi nzu ikodeshwa ibihumbi magana atandatu by'amanyarwanda mu kwezi ikaba ifite ibyumba bibiri byo kuraramo bikaba bimeze neza.

N'inzu ituye hano mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Kibagabaga ahangaha wishyura amafaranga ibihumbi maganatanu ku kwezi ukayibamo.

Iyi ngiyi ni inzu nziza cyane iherereye mu mujyi wa Kigali, ikeneye kugurishwa, iri kugurishwa amafaranga miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amanyarwanda, ahantu heza cyane, ni mu mujyi wa Kigali kandi irasa neza.

Iyi ngiyi ni inzu nziza cyane, iherereye mu mujyi wa Kigali, mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi nzu iri ku isoko, irimo iragurishwa miliyoni mirongocyenda n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda, ikaba isa neza, ifite amarangi meza cyane.

Iyi ngiyi ni inzu nziza cyane, iherereye mu mujyi wa Kigali, ahazwi nk'i Kanombe hafi y'ikibuga cy'indege, ikaba igurwa amafaranga miliyoni ijana na miringo itatu z'amanyarwanda. Ni inzu isa neza cyane mu by'ukuri uyirebye irakeye.

Iyi ngiyi ni inzu iherereye mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kimironko, ikaba ifite ibyumba bitatu byo kuryamamo, ikaba ifite n'ubwogero bubiri, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atatu y'amanyarwanda.

Iyi ngiyi ni inzu, iyi nzu irakodeshwa, ku kwezi ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atatu bya'amanyarwanda, iherereye mu mujyi wa Kigali ahazwi nk'Ibatsinda muri Kagugu ifite ibyumba bine n'ubwogero bubiri.

Wifashishwa mu gutanga ibikoresho bitandukanye, aho ushobora kwishyura amafaranga miliyoni mirongo inani n'eshatu, ukitwarira icyawe, kandi mu buryo butakugoye cyane.

Iyi ngiyi ni inzu nziza cyane, iherereye mu mujyi wa Kigali, ahazwi nka Kimironko, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana ane ku kwezi, ifite ibyumba bitatu byo kuraramo.

Iyi ngiyi ni inzu nziza cyane iherereye mu mujyi wa Kigali mu Murenge wa Kanombe ifite ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu, ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atanu y'u Rwanda ku kwezi.

Abantu barimo baracuruza ibijyanye n'ikoranabuhanga bikaba bigaragara ko ari ibikoresho byiza cyane byo kwifashisha mu nzu, aho wakoramwo imiryango myiza n'ibindi bitandukanye.

Iyi ngiyi ni inzu nziza cyane isa neza ikora amasaku mu buryo bwiza cyane, iherereye mu mujyi wa Kigali mu gace ahazwi nk'i Kanombe, iri kugurishwa amafaranga ya miliyoni ijana na mirongo itanu.

Iyi ngiyi n'inzu uko mubona irageretse ifite n'ibigega hejuru, ikaba ikodeshwa iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro, ifite ibyumba bibiri n'ubwogero ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana biri na mirongo itanu ku kwezi.

Iyingiyi ni inzu nziza cyane iherereye mu mugi wa Kigali, mu gice cya Kanombe, ifite ibyumba bibiri, ikagira ubwogero bubiri, ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atatu na mirongo itanu by'Amanyarwanda ku kwezi.

Iyi ngiyi ni inzu ikodeshwa ifite ibyumba bitatu byo kuryamamo, ikagira ubwogero bubiri ikaba ikodeshwa amadolari igihumbi ku kwezi.

Ni nziza cyane muriba iri mu mabara agiye atandukanye y'umweru ndetse n'umukara n'ayandi atandukanye, aho ikodeshwa amafaranga batigeze bashyiraho gusa bigaragara ko ituye mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kabeza.

Iyingiyi ni inzu iherereye mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kimironko irakodeshwa amafaranga ku kwezi, ifite ibyumba bine byo kuraramo n'ubwogero bubiri.

Iyi ngiyi ni inzu iherereye mu mujyi wa Kigali, igizwe n'ibyumba bibiri ikagira ubwogero bubiri ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atatu na mirongo itanu by'amanyarwanda, iherereye mu mujyi wa Kigali mu gace ka kimironko.

Iyi ni inzu mu by'ukuri ni inzu yo guturamo iherereye mu mujyi wa Kigali ahazwi nk'i Kanombe, ifite ibyumba bine byo kuraramo, ubwogera butatu, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atanu ku kwezi by'amanyarwanda.

ni inzu iherereye mu mujyi wa kigali ahazwi nka kimironko ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi maganabiri mirongo itanu mu kwezi ikaba ifite ibyumba bitatu ndetse n'ubwogero bubiri.

iyi Ngiyi ni inzu nziza cyane mu by'ukuri, iherereye mu mujyi wa Kigali, mu murenge wa Kanombe. Ahaha ni inzu igizwe n'ibyumba bine, ubwogero butatu, ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana ane ku kwezi.

Aha ngaha ni ahantu hacururizwa imyenda y'abagore, ni amakanzu meza cyane afite amabara aryoheye ijisho kuyareba a bakanzu y'ubururuvangavanze nkmouturabyo ndetse n'ayandi.

Aba ngaba ni abantu bari ahantu mu isoko. Barimo baragura ibintu bitandukanye, harimo imyenda harimo ibikoresho byo mu nzu, buri wese araza akagura icyo ashaka, bitewe n'icyo akeneye.

Nk'uko bigaragara, uyu nguyu ni umukobwa wambaye neza cyane umupira w' w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba yagiye guhaha ibintu bitandukanye n'isoko ricuruza ibyo kunywa.

Aha ngaha ni mu iduka ryiza cyane uko bigaragara, ni aho bagurira ibyo kurya n'ibyo kunywa ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byo mu nzu cyangwa ibyo umuntu yifashisha bya buri munsi ari mu mirimo itandukanye. Uko bigaragara hari n'umunyamahanga wagiye guhaha.

Uyu nguyu ni umuyobozi ari kumwe n'umubyeyi, arimo aramuhereza ibyangombwa bitandukanye mu bijyanye n'ubwishingizi mu kwivuza bizwi nka mituweri.

Aba ni ababyeyi bari kumwe n'abana babo uko bigaragara bajyanye kwa muganga kubakingira indwara zitandukanye, mu rwego rwo kubashishikariza kugira imibereho myiza mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abangaba ni abantu bagiye batandukanye baje kwaka ubufasha kwa muganga mu by'ukuri baje kureba ko hari ikintu babafasha mu bibazo bafite bya buri munsi kandi bizeye ko bariwe gukemurirwa ibibazo.

Ahangaha ni umuntu ushinzwe gutanga amafaranga abitse abaturage aherereye akaba ayabaheriza mu buryo bwiza cyane kandi busobanutse mu by'ukuri ni benshi cyane.

Akangaka ni agatabo kerekana ubwisungane mu kwivuza aho umuntu akifashisha yagiye kwivuza arwaye akavurwa mu buryo bwiza cyane kandi agataha yishimye n'idwara yakize.

Angaha n'ahantu herekanwa n'ikigo cy'ubwishingizi mu kwivuza, bikaba bigaragara ko ari ku kigo nderabuzima aho batanga ubwishingizi umuntu akivuza indwara bitamutwaye ikiguzi kinini.

Iyi ni ikarita yerekana ubwisungane mu kwivuza aho berekana amafaranga wakoresheje igihe wivuje cyangwa se utabashije kwivuza bitagenze neza, gusa ntacyo bitwaye.

uyu ni umubyeyi uko bigaragara yagiye ku kigo nderabuzima kwivuza, urabona ko afite ikarita y'ubwishingizi mu kwivuza ategereje ko bamwakira bakamukemurira ikibazo cy'uburwayi.

Iyingiyi ni ikarita y'ubwishingizi mu kwivuza biragaragara ko iyo ugiye kwivuza birangira baguhaye serivise nziza cyane kandi wifuza biragaragara ko ari bazima cyane.

Iri ni iguriro riherereye mu mujyi runaka, aho abantu baza bakagura ibiribwa, ibinyobwa, n'ibindi bikoresho biba bikenewe mu rugo bitandukanye.

Ni isoko yerekana uburyo abantu bahahaye ibintu bitandukanye cyane cyane ibyo kunywa mu gihe bagiye mu rugendo. Ahangaha uraza ukagura icyo ushaka ukajya kwishyura nyuma.

Uyu nguyu ni umuntu umaze guhaha ibiribwa, n'ibindi bikoresho bitandukanye, akaba arimo kwishyura, hakoreshejwe ikoranabuhanga, aho umuntu afite ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Abangaba ni abasore mu buryo bugaragara barimo baragenda bagura ibintu bigiye bitandukanye aho bari kugura indabyo, amatunda n'imbuto zitandukanye bagomba kuza gucyura mu rugo bakabaha abana babo.

Ahangaha ni aho bacururiza ibintu bijyanye no kurya no kunywa gusa ibyinshi bikaba bigenewe abana kuko biba biryohereye babikunda cyane pe.

Aha ni mu isoko rimwe riturukamo ibyo kurya byinshi bishimisha abana cyane cyane ibintu biryohereye, harimo ibyitwa ubunyobwa n'ibindi bitandukanye byiza cyane bishimisha abana.

Ahanga nkuko mubibona rero n'ahantutu abantu bagurisha utuntu two kurya n'utwokunywa dutandukanye, aho ushobora kubifata uri mu rugendo kandi bitaguhenze ugakomeza kumererwa neza.

Ahangaha ni mu iguriro. Aho abantu baguramo ibiribwa bitandukanye bajya gukorera no gutekera mu rugo; akenshi bagashyira abana babo ibyo bahashye; bikaba ari ibintu bigaragara neza.

Ni isoko, iguriro bahahiramo utwo kurya dutandukanye ndetse n'ibyo kunywa aho umuntu aza agahaha akajya kwishyura nyuma, ahasigaye agacyura ibyo yahashye akabishyira abana be.

Aka ngaka ni agatebo batwaramo ibyo bamaze guhaha bagiye mu isoko guhaha, washyiramo ibyo ushaka byose ahasigaye, ukagenda ukishyura ugahita ucyura iwawe.

Aha ngaha ni hamwe mu hantu abantu bacururiza ibintu bijyanjyanye n'ibyo kurya ndetse n'ibintu bijyanye n'ibyo kunywa, aho umuntu aza agafata ibyo kurya ndetse n'ibyo kuywa akishyura amafaranga ahwanye n'ibiryo cyangwa ibyo kunywa yafashe, agakomeza urugendo rwe.

Uyu nguyu ni umubyeyi wagiye mu isoko, yagiye gushaka ibyo ari buze gushyira abana be batashye, ibigaraga amaze no guhaha ibiribwa byinshi, gusa biramutwara amafaranga menshi cyane